Uburezi bw'abana b'inshuke butuma umwana akura neza mu mitekerereze, mu mibanire ndetse no mu gihagararo kuko aba yabonye umwanya wo kuganira n'abandi bana bangana.

Uburezi bw'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke usanga bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda aho abo banyeshuri baba bambaye impuzankano nziza isukuye kandi na bo bakajya kwiga kubara, gusoma ndetse no kwandika babyishimiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, usanga bakunze kuba bari kumwe n'abarimu babo bari gukina, baba bambaye impuzankano nziza cyane kuko ababyeyi babo baba babitaho.

Abana bafite imyaka itatu kugeza kuri itandatu usanga baba biga kugo by'incuke. Iyo bagezeyo biga kwandika, kubara ndetse bagakina na bagenzi babo aribyo bibafasha gukura neza mu mitekerereze ndetse no mu mibanire.

Amashuri y'inshuke, iyo bayubatse bagerageza kuyasiga amarange, bagashyiraho ibishushanyo byiza cyane, bikurura abana, ku buryo iyo abanyeshuri barimo babibona, baba bumva bameze neza, kandi ayo mashuri agomba kugira n'ikibuga abana bakiniraho

Abanyeshuri b'incuke biga mu kiburamwaka, ni abanyeshuri bakunze kwiga cyane iyo babona imfashanyigisho zitandukanye. Urugero niba ugiye kwigisha imodoka cyangwa se ubwikorezi ugomba gushaka uburyo ukora iyo modoka, kugirango umunyeshuri nayibona ayimenye.

Kandagira ukarabe ni igikoresho gikoreshwa iyo abanyeshuri bavuye mu bwiherero, barakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ndetse bajya kurya bagakaraba, ndetse basoza no kurya bagakaraba muri iyo kandagira ukarabe, iba ikozwe n'ibasi ndetse n'indobo.

Abana biga mu mashuri y'inshuke usanga baba babikunze cyane ubwo biga imibare bakoresheje imbonerahamwe, bakiga kubara kuva ku binyabumwe kugeza ku binyacumi.

Abana biga mu mashuri y'incuke biga neza iyo bari kureba ku mfashanyigisho cyangwa se ibindi bikoresho bituma bamenya ibyo bari kwiga. Ibikoresho bikurura amarangamutima yabo bakiga bishimiye amasomo bari kwiga.

Umunyeshuri wiga mu mashuri abanza agomba kujya kwiga yameze neza, yambaye iniforume nziza cyangwa se impuzankano, yatebeje amaze gufata n'amafunguro ya mu gitondo ubundi akajya kwiga.

Imfashanyigisho zifatika zituma umwarimu wigisha abanyeshuri b'inshuke abaha ingero zigaragara nk'iyo agiye kwigisha imbuto, agerageza gushaka ukuntu aza gukora ibikoresho bisa n'izo mbuto kugira ngo umunyeshuri ajye yumva urwo rubuto anarukoreho yumve uko rumeze.

Ku ishuri haba ibikoresho bitandukanye cyane cyane mu mashuri abanza, muri ibyo bikoresho twavugamo nk'amakereyo, ibitabo, imikasi ndetse n'ibindi bishobora gutuma umunyeshuri azamura ubwenge.

Ibitabo by'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, biba bigomba kuba birimo amashusho, kugira ngo umwana nasoma igitabo afate ibyo asomye abihuze n'amashusho ari muri icyo gitabo abifate neza.

Mu mashuri usanga harimo utubati. Abanyeshuri ndetse na mwarimu babikamo ibitabo, babikamo amakayi ndetse n'amakaramu n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ishuri.

Amashuri ubu usanga harimo intebe ameza ibishushanyo, ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho abanyeshuri bakoresha iyo bari kwiga kugira ngo bakomeze bige neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bigamo amasomo atandukanye, harimo imibare, imibanire ndetse n'ibindi aribyo bibafasha kuba abanyarwanda beza.

Mu mashuri abanza usanga abanyeshuri batozwa kugira isuku y'ibyo bambaye ndetse n'iy'aho bari, aho abanyeshuri usanga batoragura imyanda bayijyana mu garani, cyangwa se kuyimena ahabugenewe.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza cyane cyane mu mwaka wa mbere, ntago baba bakamenye kwandika neza, bandika ibintu ubona yuko bidafututse, ariko uko bagenda bakura ni ko bagenda babimenya, bakamenya kwandika ndetse n'imibare.

Iyo uri kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza imibare, bisaba ngo ube ufite imfashanyigisho zifatika, rero niba ugiye kwigisha nk'umubare gatatu, ugomba kwitwaza amabuye atatu kugira ngo uyahe munyeshuri, ajye ayabara, anayakoraho.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza aho iterambere ryaziye basigaye bigira mu mashuri ya etaje ubwo ibi ngibi bituma abantu babona ubutaka bunini bwo gukoreraho indi mirimo kubera amashuri aba abumbiye ahantu hamwe muri etaje.

Abana biga mu mashuri abanza, usanga baba bibitsemo impano ikomeye cyane, aho usanga bakora ibikinisho bimwe na bimwe, ukabona y'uko bafite ubuhanga, buhambaye bwo kuba bakorarwa ibyo ngibyo.

Abanyeshuri b'abanyabugeni iyo bari gushushanya bakoresha amakereyo, bagakoresha amakaramu, amakayi, bagakoresha amagoma ndetse na za mudasobwa arizo bakoresha bari gushushanya muri iki gihe.

Mu mashuri abanza biga imibare bakayigira neza mu mbonerahamwe ubwo baba bandika ibinyabumwe, ibinyacumi ndetse n'ibinyejana, ibyo bifasha abana kumenya kubara neza ndetse no gutondeka imibare.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza bakunda gukina ubwo mwarimu abasohora mu ishuri yarangiza akabashyira ku ruziga akajya ahitamo buri umwe agenda ajya imbere avuga umukino akunda.

Amashuri ari kubakwa muri ibi bihe usanga bayubaka agerekeranyije, ni ukuvuga yuko amwe aba ari hejuru y'ayandi. Ibingibi rero bigafasha abantu kwizigamira ubutaka ahari kuba hubakwa amashuri menshi, ahubwo hagakoreshwa ibindi.

Ibigo by'amashuri abanza usanga biba bifite amashuri makeya cyane kuko haba hari ibyumba by'amashuri kuva mu mwaka wa mbere, kugeza mu mwaka wa gatandatu.

Ibikoresho by'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, harimo amarati, amakereleyo, kompa ndetse n'amagoma, bakoresha iyo bari gushushanya ibinyampande.

Inyubako ziri kubakwa muri iki gihe z'amashuri usanga ari ama etaje, ayo ma etaje aba yubatse ku buryo iyo uyazamukaho haba hari inzira y'abantu bafite ubumuga ndetse hakaba n'inzira y'abantu batabana n'ubumuga.

Mu mashuri abanza, bigamo ikoranabuhanga riciriritse, aho biga uburyo ushobora gucura icyuma, bakigamo uburyo ushobora gukora ibintu ukoresheje intoki zawe, nko kuboha ibitebo ndetse n'ibindi.

Mu mashuri abanza usanga abarimu baba bigisha abana bakoresheje imfashanyigisho zifatika kugira ngo umunyeshuri yumve neza kandi abone ibyo mwarimu amubwira.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakunda gutwara amakaye n'ibindi bikoresho by'ishuri mu dukapa, ugomba kureba rero ibara ryiza kugirango ngo umunyeshuri umugurire agakapa atwaramo amakayi.

Amashuri ni ahantu abantu bajya kwiga bagakura ubumenyi butandukanye. Ubumenyi bubafasha kwihangira umurim,o ubwo baba bafata ibyo bize bakabikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi busanzwe

Ikoranabuhanga ryageze mu mashuri mu gihugu cy'u Rwanda aho usanga mudasobwa abanyeshuri bazigiraho. Ibi bibafasha kuzamura urwego rwabo rw'imitekerereze ndetse no gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Iyo ugeze ku bigo by'amashuri abanza hirya no hino mu gihugu usanga hari ibikinisho by'abana ku buryo abo banyeshuri iyo bagiye mu kiruhuko cya saa yine baba bari gukinira kw'ibyo bikinisho bishimye mbere yuko binjira mu ishuri ngo bakomeze amasomo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, iyo hateye icyorezo usanga hashyirwaho ingamba, nk'urugero mu bihumbi bibiri na makumyabiri ubwo mu Rwanda hageraga icyorezo cya koronavirusi, abanyeshuri bajyaga kwiga bambaye udupfukamunwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye uba usanga bambara impuzankano nziza cyane, kandi bafite isuku kubera yuko baba bamaze gukura, barangiza bakagira isuku.

Abarimu b'abamama baba bafite, ubuhanga bwo kuvugira mu ruhame, ari byo bibafasha gutambutsa imbwirwaruhame zabo neza igihe, bayoboye inama, zitandukanye.

Amashuri yisumbuye amaze kugera ku rundi rwego mu Rwanda. Aho abanyeshuri bigira mu matsinda, umwarimu akabafasha gusangira ibitekerezo kandi ari nako bakoresha, ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa n'ibindi.

Ukigera ku marembo y'ishuri ryisumbuye rya Nyagatare, uhita ubona ari ishuri ryiza cyane, ukaba wakwifuza kujya kurereramo kuko abanyeshuri bigamo bahakura indangagaciro z'umuco nyarwanda.

Ibigo by'amashuri yisumbuye usanga biba bifite isuku; ukinjira mu kigo imbere uhita uhabona ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ukahabona indabo, ndetse ukahabona n'ibiti ari byo bitanga akayaga keza bahumeka.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, usanga bakunda kugirwa inama umunsi ku munsi, aho n'abashinzwe umutekano baza kubasura, bakabagira inama y'uko bakwiga bakazigirira akamaro bakakagirira n'Igihugu muri rusange.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, iyo ari mu minsi itariyo kwiga usanga babasohora bakabajyana hanze ku bidukikije ari nako babigisha uburyo bwo kubiririnda.

Iyo umuntu asoje amashuri makuru na kaminuza ahabwa impamyabumenyi kuko aba asoje ayo mashuri. Usanga yishimye cyane rero kuko aba agiye gushyira mu bikorwa ibyo yize akabikoresha mu buzima busanzwe.

Ibyuma byashaje ni ingirakamaro cyane kuko ibyo byuma aho kubijugunya nk'umwanda ubijyana ahabugenewe bakazafata ibyo byuma bakazakoramo ibindi bishya bikoreshwa igihe cyose.

Mu rwego rwo kwimakaza isuku mu makaminuza usanga aho utambuka hose haba hari igikoresho abantu bashyiramo imyanda cyangwa se ingarani kugira ngo ibipapuro n'iyindi myanda yose umuntu anyuzeho ahita ayijugunya muri icyo gikoresho.

Kaminuza y'u Rwanda imaze gushinga imizi mu gihugu cy'u Rwanda aho buri mwaka isohora abanyeshuri batari bakeya, kandi b'abahanga ukurikije ibyo baba barizemo.

Imitako itandukanye ndetse n'ibindi bikoresho by'ubugeni bikorwa n'abanyeshuri baba barabyize cyane cyane mu mashuri y'ubumenyingiro ndetse na za kaminuza.

Ibibumbano bitandukanye, usanga bibumbwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga ndetse n'ubumenyingiro, kubera y'uko baba bafite ubuhanga buhambaye mu kubikora.

Amashuri yo muri kaminuza ubu usanga yihariye kuko umunyeshuri wese aba yicaye ku ntebe ye, iyo ntebe ye ifite ameza ari naho yandikira ibyo mwarimu aba ari kumubwira.

Iyo ugeze ku nyubako ya kaminuza, uba usanga ari inyubako nziza kandi yagutse kuko iba yakira umubare munini w'abanyeshuri baba baje kuhatora ubumenyi ndetse n'ubumenyingiro buzabafasha gushyira mu bikorwa ibyo bize.

Ireme ry'uburezi mu Rwanda ryarazamutse cyane aho usanga hariyongereye umubare wa za kaminuza ndetse n'amativeti. Nk'ubu tugenzuye dusanga kaminuza y'u Rwanda isohora abanyeshuri bafite ireme ry'uburezi kurusha izindi kaminuza nyinshi mu gihugu.

Amashuri nka kaminuza, usanga haba harimo intebe nziza zifite ibara ry'ubururu kandi izo ntebe zikaba zikoranye n'ameza aho umuntu yandikira.

Imyigire y'abanyeshuri bo muri kaminuza igenda ifata indi ntera aho muri iki gihe usanga bigira kuri mudasobwa, telefone ndetse n'ibindi, interineti ibafasha gukemura ibibazo byabo iyo bari kwiga.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza bakunze gukorera mu matsinda aho usanga bicaye bazengurutse ameza ari batanu cyangwa se barenze bakajya basoma ikibazo bakakiganiraho bakagifatira umwanzuro.

Kaminuza iba igomba kubakwa ahantu, hari hafi y'umuhanda ndetse hafi y'ibindi bikorwaremezo kandi ikaba ifite isuku imeze neza cyane, aho abanyeshuri bajya kwiga nta mbogamizi bafite.

Bitewe n'uko abanyeshuri biga muri za kaminuza baba ari abahanga, uba usanga hari ibintu by'ibibumbano bakoze, wabireba ugasanga bifite ishusho imeze neza cyane nk'iy'igikoresho kitabumbwe.

Abanyeshuri iyo barangije kaminuza, bakora ibirori kubera yuko baba bahawe impamyabumenyi igaragaza yuko basoje icyo cyiciro cya kaminuza, baba bishimye cyane rero bambaye imyenda y'amakanzu y'imikara ndetse n'ingofero z'umukara.

Abantu biga ibigendanye n'ubugeni, usanga baba bafite ubuhanga buhambaye kuko usanga baba bazi kubumba ibikoresho bitandukanye, ibyo bikoresho twavugamo nk'isekuru, ariyo yakoreshwaga kera bari gusekura amafu cyangwa se imiti.